Ikimera gitoya gifite amababi abiri ,bisa n'aho kimaze iminsi mike kimeze ,iruhande hariho imvaruganda y'amabara y'umweru n'umukara ku bwo kugifasha kugira ngo kizakure kandi gifite imbaraga.

Abantu b'abasore ndetse n'abagabo bambaye imyenda y'ubwirinzi nk'amasarubeti, udupfukamunwa ndetse n'udufukantoki, bambaye amamashini cyangwa se amapombo, yo gupomba umuti kugira ngo bice udukoko mu bihingwa.

Icupa risa n'umweru ryandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'icatsi, ndetse rifite umufuniko w'icyatsi. Rifite agakoresho ko hejuru kifashishwa mu gusohora umuti, bisa naho aho wica udukoko.

Igikoresho cyifashishwa mu gutwara cyangwa mu kwikorera imizigo zigiye hafi kikaba cyitwa ingorofani, kigizwe n' ipine rimwe, gifite amaguru ndetse n' aho gufata.

Umugore uhetse igikoresho gitera umuti, kirimo ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, ari gutera inyanya umuti, kugira ngo udusimba cyangwa se udukoko turimo dupfe.

Amacupa arimo imiti igiye itandukanye yewe hariho n'ibipapuro bigaragaza amakuru agiye atandukanye, bitewe n'ibirimo imbere muri ayo macupa hariho nk' ingano umuntu agomba kuvanga n'amazi, ibihingwa, iyi miti ivura udusimba yica n'ibindi n'ibindi.

Igishashi cyagwa si igipfunyika kiririmo ibara ry'umuhondo, cyanditseho ngo ditane, ma, kanyerezo, mirongo ine na gatanu, bisa n'aho cyagenewe kwica udukoko, two kuri ibi bihingwa bishushanyijeho harimo nk'inyanya, imbuto, n'ibindi n'ibindi.

Amacupa atatu apfundikije udufuniko twi'icyatsi, yemwe hariho n'ibindi bipapuro byometseho inyuma, aho biba biriho amakuru atandukanye, ku muntu waguze iryo cupa, hibandwaho cyane cyane mu kumenya ingano y'umuti uratera, kubera ko muraya macupa, haba harimo imiti yica udukoko.

Umufuka cyangwa se uruhago rwo gutwaramo ifumbire y'imvaruganda, aho hashushanyijeho uko yitwa ndetse hakaba hashushanyijeho ibihingwa bigiye bitandukanye. Ndetse hakaba hashushanyijeho ibihingwa bigiye bitandukanye, iyi fumbire igenda iri gufasha, ibyo bihingwa kugira ngo bibone intunga gihingwa ikwiriye.

Ikiganza cy'umuntu kirimo amazi. Ari kuhira igihingwa cyangwa se ikimera gisasiye n'ibyatsi, bizagifasha mu kubika amazi, kugira ngo atazazamuka hejuru, bitewe n'umuyaga cyangwa se ubushyuhe bwinshi.

Bumwe mu buhinzi bugezweho bwa kijyambere, cyane cyane mu bihugu byateye imbere, aho usanga abazungu bifashisha imodoka, cyangwa se imashini zabugenewe mu kuhira, cyangwa se mu gutera umuti, mu bihingwa byabo.

Amacupa ndetse n'ibipfunyika bikozwe mu mashashi, birimo amabara atandukanye icyatsi, umutuku ndetse n'umuhondo, bisa naho birimo imiti byica udukoko.

Ikiganza cy'umuntu kirimo ifumbire mvaruganda, aho ari kwiyishyira impande y'igihingwa kugira ngo kibone intungagihingwa, ndetse kizamuke ku muvuduko uri hejuru, kandi kizatange umusaruro wo hejuru.

Umuntu wambaye imyenda y'ubwirinzi mu mugihe ari gutera imiti yica udukoko kandi irimo ibinyabutabire byinshi, ari mu murima w'ibirayi kandi ahetse ipombo yo gutera uwo muti iri mu ibara ry'umuhondo.

Ifunguro riteguranye ubuhanga, rirambitse ku gasahani gafite isuku bitewe n'uko kari mu ibara ribigaragaza ry'umweru, iruhande rwa ho hariho utuboga cyangwa se utuntu dushinzwe guhumuza inyama y'ifi.

Amafi yamaze kurobwa atatu arambitse ku isorori cyangwa se ku isahani, bisa naho ari mu isoko bagategereje abakiriya bari buze kuyagura.

Amafunguro ateguwe neza arambitse ku gasahani gasa n'umweru, ayo mafunguro akaba agizwe n'amafi abiri, ndetse hagiye hariho n'utubuto turimo nk'indimu, ndetse n'icunga akaba barateretse impande y'ayo mafi.

Ibiribwa bikomoka mu mazi cyangwa se mu nyanja byitwa amafi. Zirambitse mu gatete cyangwa se agapaniye ,nako gateretse ku mbaho. Iruhande rwaho, hari umunzani wo gupima ibiro zifite izo fi.

Amafi ateretse mu gapaniye gasa n'ubururu ariko ayo mafi ntabwo akabushije cyangwa se ngo abe akaranze, uko bakayarobye niko ameze mbese ntabwo yumukije.

Ifi iri mu rubura, cyangwa se amazi aba yakonjeshejwe hifashishijwe ikoranabuhanga, ikaba ari uburyo rero bwo kuyibungabunga, kugira ngo itaza kwangirika, cyangwa se ngo ibore.

Indobo y'umuhondo iteretsemo amafi cyangwa se amasenge yumukijwe binyuze mu mavuta, ndetse kugira ngo ibi ngibi bizakorwe mu buryo bwo kuyarinda kubora, cyangwa se kwangirika.

Uburyo bworoshye kandi bugezweho bwifashishwa mu kiyaga cyane cyane mu biyaga byororerwamo amafi, mu gihe bashiramo ibi bikoresho kugira ngo babungabunge ubuziranenge, ndetse no kuyacungacunga aho bagiye hose.

Umurima urimo imyaka igiye itandukanye harimo nk' amajeri, ndetse iruhande rwawo hariho ibindi bigori byeze. Inyuma yawo hariho ikirunga, kandi hubatseho inzu isakajwe amabati.

Ibiti by'ubwoko butandukanye harimo ibirebire ndetse n'ibigufiya bitewe n'ubwoko bwabyo, harimo icyitwa shipuli, ni cyo cyakuze kurusha ibindi, hariho n'ibindi byitwa imisave, ni na byo bikurikiyeho mu burebure kuri cyo.

Uburyo bwo guhinga imboga mu karima k'igikoni, aho hifashishwa ibintu bigiye bitandukanye nk'ibihoho, cyangwa se ugafata ikidomoro cyangwa se ikijerekani, ukagikatamo kabiri ugashyiramo itaka, ugateramo urwo ruboga rugakura nta kibazo ukajya urashyimo n'ifumbire.

Isambu nini irimo ibiti bigiye bitandukanye, harimo nk' igiko, inseke ndetse n' ibindi bihuru birimo urwiri rwo kwahirira inka cyangwa se bakaziragiramo mu gihe batazororeye mu biraro.

Isambu imaze igihe havuyemo ibigori, ndetse hakaba hategereje kugira ngo imvura izongere igwe, bongere bahinge mu cyiciro gikurikiyeho bisa n'aho bagitegereje.

Umurima ugiye urimo ibyatsi bigiye bitandukanye, harimo iby'imejeje ndetse n'ibyo bateye. Ibyimeje harimo nk'ibyatsi ibihuru ndetse n'ibindi bigiye itandukanye mu byo bateye harimo uruyuzi cyangwa se igihaza.

Umurima urimo ibihingwa cyangwa se ibimera bigiye bitandukanye, urugero harimo nk'ibirayi ariko iruhande rwabyo hariho ibigori bisa n'aho byakuze bikera bigasarurwa, hakaba hasigayemo igikenyeri, hirya yaho hariho ibiti birebire.

Igipangu kiririmo inzu. Ndetse imbere yayo hubatsemo ubuhunikiro bwi'ibigori, bushakaje amabati. Iruhande rw'iburyo ni ho harimo ibigori honyine. Ahandi nta bwo bari babishyiramo.

Ibyatsi cyangwa se ibimera bigiye bitandukanye, birimo nk'ibiko, amakoma, amapapayi, ibidodoki, byose bisa n'aho byameze, ibindi bakabitera mu rusisiro rwo mu cyaro.

Igisagara cyangwa se ikibaya cy'imirima igiye itandukanye irimo imyaka nk'ibirayi ndetse n'ibindi byatsi, aho usanga hariho n'imirima yaragiye irazwa cyangwa se bararekeye aho kuyihinga, kugira ngo babe bari mu myiteguro y'igihe cy'ihinga.

Umurima urimo ibihingwa by'ibirayi akazuba kari kuva, kandi hamezemo ibyatsi bikeneye ko baza bakabirandura, aricyo gikorwa cyitwa kubagara, Muri uwo murima harimo n'amabuye, bisa n'aho batayatogonzeye.

Zimwe mu mboga zikunzwe n'abatari bakeya, bitewe no kugira umusaruro uri hejuru, kandi zikamara inzara bitewe n'uko zigira isosi. Zitwa ibidodoki cyangwa se ibishushu. Aho iyo uziteye ziba ziri kurandaranda mu biti, zikaba zimeze nk'igihuru cyasakaye.

Umurima urimo indabyo ,cyangwa se ibihuru bigiye bifite ubwerezwa bw'umweru, iruhande rwaho hariho imirima yagiye irarazwa ,kugira ngo bategereze icyiciro cyangwa se igihembwe cy'ihinga gikurikiyeho.

Agashyamba kagizwe n'ibiti byimweruru cyangwa se ingurusu z'umweru, iruhande rwa zo harimo ibyatsi ndetse n'amababi ya byo, hariho n'igitsitsi cyarimbutse, bitewe n'uko igiti bagitemye.

Umurima w'ibirayi bitoshye rwose birimo amababi asa n'icyatsi bisa n'aho nta na kimwe kirwaye kirimo, kandi bigeze mugihe cyo kuyanga mbese kuzana uruyange.

Umurima urimo imyaka itandukanye, cyane cyane imboga, harimo nk'ibitunguru ndetse n'ibirayi, kandi bifite isuku bitewe n’uko babibagariye, hakaba hatarimo ibyatsi bindi biri ku ruhande.

Umurima cyangwa se isambu irimo ibyatsi ndetse n'ibitabi by'ibiti bamaze gutema, hirya yaho hariho ibihuru bigizwe n'ibiti birebire byiganjemo imisave, ndetse n'ibindi biti byitwa arinusi.

Umurima urimo ibirayi bigeze mu gihe cyo kuyanga, hirya yabyo hariho umurima urimo ibikenyeri, ni ukuvuga ngo ni ibigori basaruye byageraho bikuma, hirya yaho na ho hariho ibiti bikikije uyu murima.

Zimwe mu mboga zikunzwe n'abatari bake hano mu rwanda ndetse n'imahanga, zitwa ibishushu cyangwa se ibidodoki, aho bikunze kuranda ku giti, ugasanga byakoze igihuru. Iruhande rwaho harihoho kameroni ndetse n'igiti cy'umuhati.

Umugozi w'ibirayi baranduye bikiri ku nkondo zabyo. Bisa n'aho rwose uno mugozi weze cyane. Hariho ibirayi bigera kuri bitandatu, kandi byose bishimishije rwose.

Isoko cyangwa se iguriro ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye, cyane cyane imboga zirimo nk'imiteja, pavuro, dodo n'izindi n'izindi, byose bikaba birambitse ku ihema.

Udupaniye cyangwa se udukoresho dukozwe muri purastiki turi mu mabara y'umuhondo, harimo imboga zisa n'aho ari imiteja, turimo amabara agiye atandukanye ariko turegeranye, bisa n'aho hamaze kubaho igikorwa cyo gusarura bakaba bari gukusanya umusaruro.

Abaturage baje gufata imbuto z'ibiti bisa naho byatanzwe na Leta, abagoronome cyangwa se ababishinzwe kubibagezaho nabo barahagaze kugira ngo babibashyikirize.

Iguriro cyangwa se isoko ririmo ibiribwa byiganjemo ibirayi, aho bagiye barabisuka ku dutanda cyangwa se ku dutandaro, kugira ngo bite umwuka kandi mu kubiyora bibe biboroheye.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, ari kwerekana umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi byitwa imyumbati, iruhande rwe hariho abagore bambaye imyambaro itandukanye bicaye, ndetse na bo bishimiye ubwo musaruro w'iyo myumbati.

Zimwe mu mbuto zifashishwa mu kuribwa ndetse no kujyanwa mu nganda zagakurwamo imitobe yo kunywa, ndetse no gukora ibindi bintu bitandukanye. Zikaba ziba ziri mu ibara rijya kuba umuhondo, ariko atari umuhondo neza rizwi nka oranje.

Imbuto, cyangwa se impeke, zibarizwa mu muryango w'ibinyamisogwe, bitewe n’uko nazo, iyo urufashe, ukarumanyuramo kabiri, ruvamo ibice bibiri bingana. Zikaba zitwa amashaza, cyangwa se amajeri, rubarizwa mu muryango w'ibinyamisogwe.

Uburyo bworoshye bwo kurwanya isuri, aho abahinzi bafata umurima bagacamo amaterasi y'indinganire, mu gihe baba bari guhinga bitambitse, kugira ngo umuvumba w'amazi n'umanuka, uzasange harimo ibyayatangira ayo mazi.

Imifuka igiye itonze barazipanga ku mirongo ku buryo kuzibara byaba byoroshye. Izo mifuka zisa n'umweruru kandi hariho umuntu uzicaye iruhande ari kumwe na mugenzi we bisa naho bari kuzirinda umuntu waba wazangiriza mu gihe bagitegereje abaza kuzipakira.

Ibiribwa birunze akarundo kamwe ,abantu bakunze kwita umufunngo ,cyangwa se buri wese akaza yabigennye bitewe n'igiciro yabihaye, bikaba ari ibirayi.

Umurima cyangwa se isambu irimo ibihingwa bigiye bitandukanye kandi biri hafi kugera igihe cyo gusarurwa, cyane cyane harimo ibigori ndetse n'inzuzi ari zo ziduha ibihaza.

Uburyo bwiza kandi bworoshyetewe n'uko budatwara abakozi benshi kandi bugatwara igihe kinini. Bukoreshwa mu gufata ibirayi bakabipakira mu mifuka hanyuma ibirenzeho bakabidodesha imigozi zabugenewe.

Imyaka igeze mu gihe cyo guheka. Ibigori bibarirwa mu muryango w'ibinyampeke bikaba rero bigeze mu gihe cyo kuba byatereramo cyangwa se byabangurirana ubundi bikazana intete.

Bimwe mu binyamisogwe bikunzwe muri iyi minsi kandi bihingwa ahantu henshi hagiye hatandukanye bikaba byitwa amashaza cyangwa se amajeri, aho usanga bifite intungamubiri ziri hejuru cyane.

Umugore uri mu murima wi'ibirayi, ari gukora imirimo igiye itandukanye, nko kubagara ndetse no gushiraho imvaruganda, kugira ngo imyaka ye y'ibirayi ikomeze ibone intungagihingwa, kandi igire imbaraga.

Rumwe mu mbuto zikunzwe n'abatari bakeya bitewe n'uburyohe rugira, kandi rukagira umutobe w'umwimerere rukaba rwitwa itunda. Aho iyo urimanyuye usangamo imbuto imbere ziri kumwe n'umutobe waryo.

Umurima cyangwa se isambu yitegeye ikibaya, irimo ibihingwa bigiye bitandukanye, ibiri kugaragara rero, harimo imyumbati igeze mu gihe cyo gushisha rwose, kandi ikaba imaze gukura ku buryo umuntu akuye yasanga harimo imyumbati.

Igiti cya voka gisa naho kikiri urugemwe, kikaba giteye ahantu gifashije ibyatsi, kugira ngo amazi atazagitarukira ndetse n'indwara zitazakigeraho.

Abagabo babiri bafite igicuba kirimo amata, bari kuyasuka mu kindi gikoresho cyabugenewe mu gukusanya umusaruro w'amata, kugira ngo ubone ujyanwa mu ruganda gutunganywa.

Umugabo wambaye ingofero y'urugara ndetse n'ishati y'ubururu buhiye. Ahagaze mu murima w'ibigori ari kwitegereza umuntu bari kuganira, bisa n'aho ari na we wamufashe ifoto. Afite n'ubwatsi mu ntoki.

Umurima cyangwa se isambu irimo ibihingwa bitandukanye higanjemo intoryi, aho bagiye bazishingirira kugira ngo zitazagwa, cyangwa se zigahuhwa n'umuyaga, zikaba zahirima.

Zimwe mu mbuto zikunzwe n'abatari bakeya, zizwiho kugira amavuta kandi zikagira intungamubiri mu kurinda indwara, ndetse no mu kuzikiza zikaba zitwa avoka, aho iyo uyisatuye usangamo urubuto mo imbere runini.

Abagabo n'abagore bari guca imyobo, ndetse baziciye bakoresheje umurongo mu buryo bwa kijyambere, kandi bamaze guca izo mirongo bateramo ibirayi kugira ngo bizaborohere gukora izindi mirimo nko kubagara.

Abantu batatu barimo abagore babiri ku ruhande ndetse hagati yabo harimo umugabo umwe, bahagaze mu muririma w'amashu kandi buri wese afite ishuri nini cyane, bisa naho bari kwerekana kandi bishimiye umusaruro bagezeho.

Ibiribwa by'amateke cyangwa se ibinyabijumba bikunzwe n'abatari bake, kuko bizwiho gutera imbaraga umubiri, kandi bikaba bigira amafu. Biri mu kabase k'umuhondo, bikaba bitegereje ko hari umuntu uza kubitwara.

Ibiribwa cyangwa se ibyo kurya birambitse ndetse bisutse hasi, birimo ngano igiye itandukanye harimo ibinini, ibitoya ndetse n'ibiriringaniye bikaba byitwa ibirayi, ku ruhande rwaho hariho n'ibindi biteretse mu mufuka.

Imbuto cyangwa se impeke zipakiye mu mifuka kugirango zizabeho igihe kirekire, ziri mu bwoko butandukanye hariho iz'umweruru ndetse n'izindi zisa n'umuhondo cyangwa se zijya gusa umuhondo, byose bihuriye ko ari ibigori cyangwa se ibinyampeke.

Abagabo n'abagore bahagaze mu murima urimo imyaka igiye itandukanye, bakaba bari mu gikorwa cyo kubagara, cyangwa se kurandura utwatsi tuba twarameze impande y'ibihingwa byagenwe.

Ubucuruzi gakondo, butagira inzu buberamo, ahubwo ni ugucururiza hanze, aho umuntu afata amabuye, akayarunda ahantu hamwe, ubundi akajya ararambikaho ibisheke, ababikeneye bakaza bakabigura, akabatemera kubyo bashaka.

Ibiribwa biri mu muryango w' ibitera imbaraga ndetse bikaba biri mu muryango w'ibinyamafufu. Biri mu mabara y'umutuku, usibye ko ari ibingibi gusa hari n'ibiba bisa n'umweru, bikaba byitwa ibijumba.

Igikorwa cy'ubuvuzi bw'amatungo aho umwe yambaye bote n'undi yambaye bote, bari gufashanya mu gikorwa cyo gukingira ihene bari kuyitera urushinge mu gikanu, cyangwa se ahegereye urutugu.

Umwana w'umuhungu wambaye agapira k'umutuku, yambaye n'agakabutura yemwe n' inkweto zifunze yicaye ahantu hitegeye inka aragiye, ziri mu mabara atandukanye umukara ,umweru ndetse n'ikijuju, aho yishimiye umuntu uri kumufotora rwose.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, aho bisutswe ku ntara cyangwa se ku nkoko, bikaba byarambitswe ku izuba kugira ngo bibe birumuka bikaba byiganjemo ibinyampeke harimo nk'amasaka ndetse n'ibigori.

Abantu barimo abagore ,abagabo ndetse n'abana bambaye udupfukamunwa, bari mu gikorwa cyo kwita ku myaka y'ibigori, mu gihe bari gushyiraho imvaruganda bifashishije intoki, kugira ngo ibigori byabo bizakure neza.

Umurima cyangwa se isambu iteyemo ibihingwa byiganjemo ibigori, ndetse kuruhande rwaho hariho ibindi biti bikikije uwo murima, ikindi kandi ibyo bigori nabyo bisa n'aho bigeze mu gihe cyo kuba byakwera.

Ubuhinzi bw'inyanya bukozwe mu buryo bwa kijyambere, hifashishijwe kuhira bakoresheje udutiyo dutoya tugenda tura zigezaho amazi iruhande rw'imizi kandi zirashingiriye ku buryo zitakora hasi cyangwa ngo zihure n'ubutaka.

Uburyo bwizewe kandi bwihuta mu kugira ngo hakorwe igikorwa cyane cyane mu buhinzi buteye imbere. Nko mu bihugu byo hanze, mu mugabane w'i Burayi, aho usanga bari kuvomerera imyaka hifashishijwe imashini ziri gupompa amazi.

Ibigori ni bimwe mu myaka ikunzwe n'abatari bakeya, aho ibi ngibi biri mu gihe cyo kuba byaterera kandi bikaba bigeze igihe cyo kugira ngo intete cyangwa se amasaro agere mu bigori.

Abantu babiri bagizwe n'umugore ndetse n'umwana, bari mu gikorwa cyo kwita ku myaka kugira ngo zikomeze zimererwe neza, bikaba byitwa kubagara cyangwa se kubigirira isuku mu kugira ngo bizakure bifite ubudahangarwa.

Umukecuru wambaye ingutiya y'umukara kandi yambaye igitambaro mu mutwe, ari mu muririma w'ibigori bimaze iminsi babibagariye, ari mu gikorwa cyo gushyiraho ifumbire y'imvaruganda, kugirango bimererwe neza.

Ubwikorezi bw'imyaka cyane cyane ibitoki, bari kubipakira mu modoka, isa n'umweru, ifite ibyuma byo kugira ngo hajye harapakirwamo byinshi, hariho abagabo bashinzwe kubipakira, iruhande rw'aho hariho abandi bantu bagiye batandukanye, bafite n'ibinyabiziga.

ikusanya cyangwa se isarura ry'imboga cyangwa se imbuto, aho zakusanyirijwe mu bitebo biboshywe mu biti ndetse hariho ba nyirabyo, aho bategereje abaguzi kugira ngo baze babagurire, zikaba zitwa inyanya.

Abagore bagera kuri batanu bafite ibikoresho byifashishwa mu buhinzi bizwi nk'amasuka, bisa naho bishimye kandi bishimiye igikorwa barimo, bari mu gikorwa cyo kubagarira ibijumba.

Kimwe mu bihingwa bikunzwe n'abatari bake, kibarizwa mu muryango w'ibinyamafufu kubera ko ari ikijumba nacyo usanga hasi cyarazanye ikijumba cyitwa amateke, kandi kigira n'imboga mu mababi gacyo...

Zimwe mu mpeke cyangwa se imbuto zikunzwe n'abatari bakeya, bitewe no kugiramo intungamubiri cyangwa se amavitamini, zikaba zigaragara mu ibara ry'umutuku, zikaba ziri mu muryango w'ibinyamisogwe bitewe n'uko na zo zisadukamo kabiri.

Amwe mu mamatungo magufi akunze kororerwa mu rugo ariko na none akarisha mu rwuri byitwa intama, zisa n'umweruru imwe iraryamye imbere y'inzu indi irahagaze, iyo nzu kandi yubakishije amabuye asize irangi ry'umukara ndetse n'umweru.

Ikirundo cy'amakoro bisa naho yajonjowe mu murima uri hirya gatoya, kugira ngo atajya abangamira imyaka irimo. Ikindi kandi hateweho ibiti by'imiko cyangwa se ibiko kugira ngo bijye birarinda isuri ndetse n'ibindi biza byatera mu murima.

Ibishyimbo biri mu ibara ry'umukara, numutuku, birambitse hamwe, bisa naho ari imbuto yarobanuwe kugira ngo bazabitere byororoke bigere mu bandi bantu.

Ibiganza by'umuntu bihurije hagati bifashe imbuto cyangwa se impeke. Zari zirambitse ku ntara bisa n'aho yari ari kuzirobanura. Izo imbuto cyangwa se impeke zikaba zitwa soya.

Uburyo bwiza bworoshye kandi bwizewe bwo kubungabunga imyaka cyane cyane ibinyampeke, mu gihe bafata ihema bakarambura hasi ubundi ya myaka bakayanika hejuru, kugira ngo izuba riyigereho neza.

Imifuka y'imyeru ipakiyemo imbuto igiye itandukanye harimo n'ibinyamisogwe ndetse n'ibinyampeke, harimo nk'ibishyimbo, amasaka, amashaza ndetse n'ibigori bigiye bipanze mu buryo imifuka umuntu yayibara yitonze.

Abagore bagera kuri babiri bafite ibikoresho birimo nk'amabase ndetse n'imifuka, bari mu gikorwa cyo kurinda cyangwa se kubungabunga imbuto cyangwa se impeke z'ibishyimbo kugira ngo bibikwe bifite isuku.

Umuhungu wambaye agapira k'ubururu gasa nabi, kandi yambaye ingofero ndetse se n'ipantaro bisa nabi, bisa n'aho ari iby'akazi bitewe n'uko yikoreye umufuka w'ifumbire, akaba abugejeje mu mirima kugira ngo afumbire iyo myaka ye.

Umukobwa wambaye agapira k'umukara ndetse afite imisatsi y'umukara isutse, ari kurobanura ndetse akagosora ibishyimbo akoresheje inkoko iboshywe mu biti by'imigano kandi ikaba yifashishwa mu kuba yakwanika ibishyimbo.

Umufuka urimo ibiribwa cyangwa se imbuto zitwa ubunyobwa, zisutse hasi ku ihema kandi zisa naho zitari zatonorwa ziracyari mu bishishwa byazo zitegereje kugira ngo zitonorwe.

Ibishyimbo biri mu mabara atandukanye harimo umutuku, umweru, ndetse bikaba bikiri intonore, bisa n'aho bitari byeze mu gihe cyo kubisarura, cyangwa se ngo byanikwe byume.

Imyaka iri mu murima igeze igihe cyo kuba yakwera, hanyuma igategereza igihe cyo kuma kugira ngo ibone ubusarurwa. Ikaba yitwa amasaka cyangwa se amahundo y'amasaka.

Bimwe mu bihingwa bikunzwe n'abatari bakeya, bibarizwa mu cyiciro cy'ibihingwa ngandurarugo, bikaba byitwa ibishyimbo bizwiho nko kugira intungamubiri zisimbura iz'inyama biteretse ku ku mu cyibo.

Uburyo bwiza bwo kwanika imbuto, cyangwa cyane cyane ibinyampeke biba bikeneye kubikwa igihe kirekire nk'ibigori, bafata amahudo bakabihungura cyangwa se bakabitonora, bakabimanika ku biti cyangwa se ku bisenge aho umuyaga uzajy urabihuha neza.

Impeke cyangwa se imbuto zatundamye cyangwa se batumbitse mu mazi zigasa n'aho zimeze cyangwa se zizanye udutwe two kumera bisa naho baribari kuzitegurira kuzitera.

Ishusho iri kugaragaza icyatsi kirimo ubwerezwa cyangwa se kimaze kugeza mu gihe cyo kuba cyazana utubuto kugira ngo igihe nikigera bizume bivemo imbuto zo gutera.

Ubuhinzi bugezweho, buri mu murima uri mu kibaya, kirambuye rwose, uteyemo ibigori, kandi nabyo babiteye mu buryo bwa kijyambere, aho bagiye baraca imyobo ku murongo, bikaba biri kugaragara neza rwose ku muntu uri kubireba.

Inyubako cyangwa se igihangari cyubakishije ihema ribonerana kugira ngo urumuri runyuremo, ikaba iba yarateguriwe kuhingwamo imyaka igiye itandukanye cyane cyane imboga, kugira ngo bazirinde uburwayi ndetse n'imvura za hato na hato.

Ibihingwa ngandurabukungu bihinze mu murima, aho kugira ngo bibanze bigire igihe cyo gukoreshwa bibanza bigaca mu uruganda, kugira ngo babyifashishe mu kubikoramo amavuta, bikaba byitwa ibihwagari.

Abahinzi bari guhinga mu gishanga cy'umuceri aho bahinnye amapantaro, bakaba bari kugira ngo uwo muceri bagende bawutere ari igemwe, kandi bakaba babikora kugira ngo amazi atabajyamo.

Abagore bagera kuri barindwi bari mu murima cyangwa se mu isambu bari gukora igikorwa cyo kurobanura ibishyimbo cyangwa se bari kubitunganya kugira ngo babigeze mu rugo babone ubu bigosora.

Ibishyimbo bimaze igihe bitundamye cyangwa se bitumbitse mu mazi, kugira ngo bizane imimero, mbere y'uko babijyana kubitera, bikaba rero bigaragara ko byazanye agatwe kazahita kamera.

Ubuhinzi bwa kijyambere, aho bafashe ibishyimbo babitera ku murongo, ku buryo no kuzabishingirira bitazabarusha, ubungubu rero bamaze kubishingirira, biri gufata ibiti, biri kugenda birizingazinga, kuri buri giti.

Imifuka iri mu mabara y'ubururu n'umutuku, zipanze ahantu hamwe bisa n'aho ari nk'ikusanyirizo, cyangwa se ariho bayikusanyirije, kugira ngo hakusanye iyi myaka, harimo ibishyimbo bisa n'aho' bigiye kugurishwa.

Amwe mu matungo magufiya akunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aho usanga abaturage cyangwa se aborozi bari gukunda korora ingurube, kuberako zitanga umusaruro munini mu gihe gitoya.

Ubworozi budakunze guhombya bwo kurora amatungo magufi nk'aya arimo amabara atandukanye nk'umweru, umukara ndetse n'umutuku, bw'inkoko z'inyama cyangwa se zitera amagi harimo inkoko kazi, harimo n'amasake.

Abahungu cyangwa se abasore, bambaye amasarubeti y'ubururu, handikishijeho amagambo y'imyeru bambaye n'ingofero z'imyeru, bari mu ifamu cyangwa se mu biraro by'inka, bari kuzifasha kuzivura ndetse no kuzisuzuma uburwayi butandukanye.

Amatungo magufiya akunzwe n'abatari bakeya, hano ari mu mabara atandukanye, harimo umutuku, umukara, umweru ndetse n'ikijuju cyangwa se ikivuvu, zikaba zihagaze aho zirira kandi zikaba zitegereje ko umuntu uri kuzifotora, yatambuka kuko zisa n'aho zimwikanze.

Inka zigera kuri esheshatu ziri kurisha ubwatsi ahabugenewe, bisa nk'aho bahubakishije sima, kugira ngo bajye bashyiramo ubwatsi, zisangirire hamwe kandi zitari kubutagaguza.

Akana gatoya k'agahungu kambaye agapira k'umutuku, gafashe inkoko itatu, ebyiri zirikwiruka, iyindi kayifashe imirizo cg se ibisembe kugira itagenda, ariko igashaka kugenda.

Amatungo ari mu rwuri rusa n'icyatsi, amwe araryamye, andi arahagaze, ayandi ari kurisha, harimo ayambaye amaherena. Iyi n'inka rero ziri mu mabarabara atandukanye harimo umweru n'umukara.

Abavuzi b'amatungo cyangwa se abaveterineri bari kugerageza kuvura inka ,kandi bari kuyisuzuma kugira ngo barebe ikibazo baba bafite ,hariho n'umugabo uyifashe kugira ngo itaba yatera amahane.

Inka cyangwa se amashyo y'inka ahagaze ahantu bayaziritse, bitewe n'uko bayazanye mu gikorwa cyo kuzitanga, cyangwa se mu gikorwa cyo kuzerekana, cyangwa se mu gushimira abazihawe.

Mu rwuri rw'inka ziri mu mabara agiye atandukanye. Harimo iz'umukara, n'umweru. Harimo izifite amahembe n'izitayafite. Hariho n'inka nkuru iri mu gihe cyo gukamwa kandi hariho umushumba uri kuyikamira mu cyansi.

Amagi yagiye agiye ari mu bihoho bivanze, ahantu hamwe mu buryo bugerekeranye amwe ajya gusasa n'umuhondo andi ni umweru bisa naho ategereje kugira ngo abaje kuyagura baje kuyapakira hano.

Ikiraro cyangwa se imbariro zubatse, kugira ngo mu gihe bagiye kubanguriza inka, cyangwa se bagiye kuyikorera ikindi gikorwa byatuma yisaza, bacyubakishije ibiti harimo inka y'umutuku n'umweru.

Intama ebyiri zizwi nk'amatungo magufiya, ziri mu ibara ry'umweru, imwe iri kurisha, indi iri kureba ibumoso bwayo, ziri mu rwuri rusa n'icyatsi rwose, bisa n'aho harimo ubwatsi buhagije.

Inyamaswa isa naho itinyitse bitewe n'ukuntu igaragara mu ngano nini, kandi ifite n'amahembe ariko buriya nyamara ku bantu bazizi neza ntabwo zikunze kubangama.

Ubwoko bw'inyoni yitwa nyiramwanana, iba igizwe n'amabara atandukanye, harimo nk'umutuku, ndetse n'umweru. Ikindi kandi igira umunwa muremure, yifashisha mu gucukura, cyangwa se mu kujomba ibintu biri kure.

Zimwe mu nyamaswa dusanga mu mapariki y'akagera, iri mu mabara meza abereye ijisho y'umukara ndetse n'umweru. Ikaba yitwa imparage ihagaze yonyine yitaruye izindi.

Inyoni iri mu mabara y’umweru, ifite amababa maremare ndetse n’umunwa w’umutuku. Imaze gufata ifi ivuye mu mazi, ikaba imaze kuyifata, igiye kuyigurukana kugira ngo iyigeze aho irayirira.

Inyamaswa ibarizwa mu muryango w'ibiguruka cyangwa se inyoni, ikaba iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru , ikaba izwi nko ku izina ry'igikona ,ikaba igira umunwa munini kandi w'umukara.

Zimwe mu nyoni zikunzwe n'abantu batari bakeya bitewe nuko ari inshuti n'abantu, kandi zikaba zibereye ijisho mu kuzireba, zitwa inuma aho nkiyingiyi iri mu mabara y'umweru cyangwa se ikijuju.

Inyamaswa z'ishyamba ziri mu mabara y'umukara zifite amahembe, kandi zihagaze mu bwatsi busa naho bwumye, inyuma yaho hariho ibiti bisa naho ari mu kagera zitwa imbogo.

Itungo ryo mu rugo, riri mu muryango w'ibiguruka cyangwa se inyoni, ikaba ifite umunwa usa n'umuhondo harimo n'umukara, ndetse ikaba ifite amababa asa n'ikizuju, ikaba yitwa imbata.

Inyoni iri mu mabara atandukanye, umuhondo, umukara kandi ikaba ifite umunwa usongoye. Ihagaze hejuru y'icyari cyayo, kandi kikaba cyubatse mu giti, aho iri kwitegereza. Wagira ngo hari ikintu itegereje.

Ubwoko bw'inyoni bubereye ijisho, umuntu uri kubwitegereza ihagaze ku ishami ry'igiti, iri mu mabara y'umweru n'umukara, kandi ifite amajanja cyangwa se utuguru two gufatisha ku giti tujya gusa n'umuhondo.

Imwe mu nyamaswa z'inkazi, zisa n'aho zitinyitse, iri mu ibara ry'umweru, ndetse iri kureba nk'aho iteye ubwoba, inyuma yaho hariho ibyatsi byumye, bisa n'aho ari mu mugihe cy'izuba.

Ubwoko bw'inyoni bugaragara mu maso hateye ubwoba hasa nah'injangwe, ariko bitewe n'uko iba ari inyoni yaremwe ko, ubundi mu kinyarwanda tuyita igihunyira.